Mu biturage byinshi ,usanga hagiye hari ivomero rimwe rusange, aho umuntu ashobora kujya kuvoma, undi ushaka amazi cyangwa ukeneye gukaraba mu ntoki ,akaza akabikorera hejuru y'akabido ari kuvomeramo. Ibi ngibi bituma amazi ari kuvoma yandura, ntabe agifite ubuziranenge.

Itsinda rigari rigizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, abirabura ndetse n'abazungu bashinzwe kwita ku buzima bw'umugore utwite ndetse n'umwana atwite, kugira ngo harindwe igwingira, bahurijwe hamwe no gufata ifoto y'urwibutso.

Abaturage bahurijwe hamwe mu mahema bubakiwe kugira ngo izuba ritabica, ahantu heza hari ibiti bitanga amahumbezi, baganirizwa ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bakirinda indwara zandurira mu bintu bigiye bitandukanye.

Abakobwa bane n'umugabo umwe mu bagize tsinda ry'Umuryango ushinzwe kwita ku buzima bw'Umwana, bahuriye hamwe bafata ifoto y'urwibutso, baranezerewe cyane kandi bambaye impuzankano ibabereye cyane rwose.

Umubyeyi ateraye umwana we w'igitambambuga, yambaye agapfukamunwa, kugira ngo atamwanduza indwara z'ubuhumekero nk'inkorora. Rwose ni byiza cyane, umwana we yasetse yishimye cyane, bitewe n'uko umubyeyi we amukomereyeho cyane, kandi ari kumukinisha rwose kugira ngo atarira.

Mu rwego rwo kubungabunga amazi ndetse no kuyohereza mu baturage bakayabona neza bose, amasoko agomba kubakirwa, kugira ngo uyavoma bimworohere ndetse abe asukuye neza nta kibazo cy'umwanda gihari yizewe.

Umugore wikoreye ijerekani aremereye agomba gushyiraho ingata kugira ngo ataza kubabara ku mutwe, iyo atashyizeho ingata arabangamira kandi agomba gukenyera igitenge agakomeza kugira ngo kitaza kugwa mu gihe ari kugenda yikoreye ibyo bintu biremereye.

Ikigo gishinzwe ubuzima ku Isi cyitwa World Health Organization mu ndimi z'amahanga, gitanga ibikoresho bitandukanye by'isuku kugira ngo byifashishwe mu kugabanya indwara ziterwa n'umwanda.

Gukaraba amazi meza n'isabune ni byiza cyane, kuko bigabanya umwanda, ndetse bikaba byanafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda, nk'inzoka ndetse n'izindi. Ibi ngibi bikorwa na buri muntu wese kandi ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu.

Buri wese ugannye kwa muganga haba hagomba kuba hari umuntu ubafasha, akaberekera muri serivisi zose bakeneye, ibyo ngibyo byoroshya serivisi z'ubuzima ndetse zigatangwa mu buryo bunoze kandi bwihuse, buri muganga wese aba agomba kwita ku burwayi uko bikwiriye.

Mu biturage byinshi aho ikigo gishinzwe amazi kitarageza amazi muri buri rugo, usanga barabakoreye ivomero rusange. Icyo cyuma kiba kigizwe n'umunwa munini ndetse n'aho bafata basunika kugira ngo amazi abashe kugera mu ijerekani.

Umwana w'igitambambuga iyo bagiye kumuha umuti bamwasamura akanwa kugira ngo basukemo umuti kuko atabasha kumva yuko agomba kwasama ngo bamuhe uwo muti, bakanamufunga amazuru kugira ngo ahite amira kuko akenshi biba bisharira ashobora gucira.

Umuntu wihebye ufite agahinda gakabije ikimubera cyiza ni ukwegera muganga w'imitekerereze akamuganiriza mu buryo bwiza, akamuba hafi ibi ngibi bituma urwaye yumva anezerewe kandi aruhutse mu mutima ndetse agatekereza neza.

Ikinyamakuru cyose kigomba kuba kiriho umutwe w'ingingo kigiye kuvugaho, ndetse n'insanganyamatsiko kugirango usoma abashe koroherwa n'ibyo asoma, ndetse asobanukirwe neza icyo kinyamakuru gishatse kuvuga n'ibyo kiri kuvugaho.

Umugore wicaye mu nzu udafite intebe yegamirwa, ameza ndetse inzu ye isa n'aho ishaje, aba ahangayitse kuko aba yibaza niba ibyo bintu azabigeraho koko, ibi bimutera gutekereza cyane no guhangayika ndetse no ku isura ye ntabwo aba yishimye.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ikibigaragaza ni uko aba akora ibintu bitandukanye n'iby'abandi, ashobora gufata imyanda akayiyuzuza umubiri wose, akayambara nk'imyenda agakora ibikorwa biteye ubwoba, ku buryo buri muntu wese umubonye akeka ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse akamuhunga.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aba akora ibikorwa bitandukanye n'iby'abandi ndetse bidahuye n'uko yakagombye kuba ameze, ugasanga umugabo yambaye igitenge mu buryo butangaje cyangwa se afite amashashi, imyanda n'ibindi ndetse aba asa na nabi cyane.

Mu gihe muganga akura iryinyo agomba gukoresha udukoresho twabugenewe kugira ngo atagira icyo yangiza mu kanwa k'umurwayi. Kandi akaba yambaye n'imyenda yabugenewe mu rwego rwo kugira ngo hirindwe indwara zigiye zitandukanye.

Mu gihe umuganga akura iryinyo agomba kuba afite ibikoresho byabugenewe kandi bihagije, umurwayi we nawe akaryama ahantu habugenewe kugira ngo adahura n'ikindi kibazo cyamutera guhungabana.

Hari igikoresho giteye nk'akanwa k'umuntu, kirimo amenyo, ururimi, ndetse n'ishinya, gikoreshwa bigisha umuntu uburyo akwiriye kwita ku buzima bw'amenyo, mu gihe ari kuyoza cyangwa se ayakorera ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kugira ngo hirinde indwara zandurira mu gufata nabi amenyo.

Kugirango ngo amenyo ahore asa neza dukoresha umuti wabugenewe ndetse n'uburoso, ibi birinda amenyo yo kwandura indwara zigiye zitandukanye ndetse bigabanya impumuro mbi mu kanwa. Ni ngombwa ko twita ku buzima bw'amenyo yacu.

Koza amenyo kenshi gashoboka nka mu gitondo ubyutse, nyuma yo gufata ifunguro ndetse na mbere yo kuryama, ibi ngibi bifasha amenyo guhora asa neza kandi bikagabanya impumuro mbi mu kanwa.

Umuntu urwaye amenyo agana kwa muganga bagasuzuma ikibazo afite bifashishije ibikoresho byabugenewe, iyo iryo ryinyo ari irikurwamo rikurwamo cyangwa se bakarihoma bitewe n'ikibazo rifite.

Iyo umunyeshuri yiga gukura amenyo no kwita ku buzima bwayo, yifashisha igikoresho cyabugenewe kirimo amenyo yose ndetse n'ishinya kugira ngo abashe kumenya neza uburyo ibintu bikorwamo.

Abantu bakuze usanga akenshi bakunze kuba bari kumwe n'abana, baganira ndetse bakina n'imikino igiye itandukanye, ibi bibarinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'agahinda gakabije ndetse no kwigunga.

Umuntu ukuze aba agomba gukora imyitozo ngororangingo, cyane ko umubiri we uba waramaze gucika intege, ibyo ngibyo bimwongerera imbaraga mu gihe cye cy'ubukure, bigatuma abasha kugira ubuzima buzira umuze no kubaho neza mu buryo bwuzuye.

Abantu bakuze baba bagomba gufata indyo yuzuye igizwe n'imboga, inyama ndetse n'ibindi byubaka umubiri, kugira ngo barusheho gukomera, kugira ubuzima buzira umuze, ndetse no guhora bakeye ku maso, umubiri wabo n'uruhu rwabo bigahora bikeye.

Iyo umuntu amaze kugera mu zabukuru, kugenda bikajya bimugora bitewe n'uko amavi ye yamaze gucika intege ndetse n'umubiri we, hari ibyuma byabugenewe bikoreshwa kugira ngo afashwe mu gutera intambwe ndetse n'amaguru ye arusheho gukomera.

Abantu bageze mu zabukuru akenshi usanga umubiri wabo waracitse intege ku buryo no kugenda biba bibagora. Rero baba bagomba kuba bafite umuntu ubitaho akabakorera icyo bakeneye cyose ndetse bagafata na vitamin zigiye zitandukanye nk'izuba rya mu gitondo.

Abantu bakuze, ni byiza ko bafata indyo yuzuye nk'inyama, imboga ndetse n'imbuto, utibagiwe n'amazi kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze kandi bahoranae akanyamuneza ku maso.

Itsinda ry'abakecuru bahuriye hamwe baganira mu rwego rwo kugira ngo bungurane ibitekerezo. Ibi ngibi bituma umuntu ukuze wese abasha kugira icyo atekereza neza no kugira icyo yunguka ku mitekerereze ye.

Kwita ku muntu ukuze ni bimwe mu bintu bishobora gutuma arushaho kumererwa neza, nko kuganira, guseka, kumubwira inkuru zisekeje zimushimisha, ibyo byose bituma arushaho kumva ameze neza kandi bigasunika iminsi ye yo kubaho.

Umuntu ukuze agomba kwitabwaho ndetse agatozwa imirimo igiye itandukanye y'amaboko ariko yoroheje, nko gutegura amafunguro kandi akaganirizwa kuko bituma ahorana akanyamuneza ndetse iminsi ye yo kubaho ikicuma.

Abantu bari gukora siporo, baba bagomba kuba bambaye imyenda ibarekuye kugira ngo bakore siporo ntakibabangamiye kandi bagomba kwitwaza amazi kugira ngo nananirwa cyangwa akagira inyota, asomeho, Burya amazi ni isoko y'ubuzima kandi araruhura.

Dame ni umukino ukinwa n'umuntu uwo ariwe wese, yaba urubyiruko cyangwa se ukuze kuko ufasha abantu mu gutekereza ndetse no kuruhuka mu mutwe. Udukoresho bakoresha bakina uyu mukino batwita inka.

Tariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, i Kigali hateraniye inama yo kwiga ku cyorezo cyari cyadutse cyitwa Marburg virus, iki cyorezo cyahangayikishije benshi.

Abagore bajya bagira igihe cyo kujyana abana babo kwa muganga kubakingiza inkingo zigiye zitandukanye bitewe n'amezi bafite, ibi bibarinda uburwayi bugiye butandukanye, ndetse bikabafasha no mu mikurire yabo ya buri munsi.

Iyo umurwayi bamukingira urukingo runaka, bamutera urushinge ku kaboko ahagana ku rutugu. Agomba kuba yambaye agapfukamunwa ndetse n'umuganga umutera urwo rushinge akambara agapfukamunwa kugira ngo birinde izindi ndwara zakandurira mu buhumekero.

Mu rwego rwo korohereza abarwayi, ndetse n'abagana kwa muganga bose hagomba kuba hariho ikirango cyerekana aho serivisi zose batanga ziherereye, kugira ngo hatagira uyoba akerekeza ahatariho ndetse bikamugora cyane.

Mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, mu kwezi kwa kabiri tariki enye, hari kuwa gatanu, guhera saa sita kugeza saa saba z'umugoroba, mu Rwanda habaye igikorwa cyo kwigisha uburyo abantu bakwiriye kwita ku ndwara ya kanseri ndetse no kuyirwanya.

Igitabo cyanditswemo amabwiriza ajyanye n'iby'ubuzima kigomba kuba kirimo n'ibishushanyo bigaragaza neza ibyo ayo mabwiriza avuga kugira ngo n'usoma na we arusheho gusobanukirwa ibijyanye n'aya mabwiriza hakurikijwe ibyo bishushanyo.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima ku Isi, gisohora impapuro ziriho uburyo ki abantu bakwiriye kwita kuri Kanseri ndetse no kuyirinda, ibi ngibi bifasha buri muntu wese kumenya uburyo ki akwiriye kwirinda iyo ndwara.

Igishushanyo kigaragaza uburyo inkingo za Kovide cumi n'icyenda zatangwaga mu myaka runaka ndetse n'ijanisha ry'uko bagiye bafata inkingo bitewe n'imyaka abantu bagiye bafite.

Mu gihe umwana avuye ku ishuri, umubyeyi aba agomba kumwicaza akamuganiriza amubaza amakuru y'uko ishuri ryagenze ndetse n'umunsi we, ibyamubayeho, uko ibintu byose byifashe, ibi bituma umwana yumva yisanzuye ku mubyeyi we ndetse agakura neza mu mitekerereze.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya giherereye mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali, gifite inyubako nziza y'amarange y'umweru ndetse n'amabati y'ubururu, kirasa neza cyane gifite isuku n'ubusitani bwacyo ni bugari.

Ikigaragaza ko umuntu ari umuganga mwiza kandi ibyo akora abizi neza, ni uko aba yishimiye akazi ke kandi ahorana ibikoresho byabugenewe ku buryo isaha n'isaha umugannye abasha kubona serivisi akeneye, mu buryo bwiza kandi bunoze.

Inzu ikorerwamo siporo iba igomba kuba ari nini kuko ihurirwamo n'abantu benshi kandi haba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, rero igomba kuba yisanzuye ku buryo buri muntu wese akora siporo nta kimubangamiye.

Hari indwara umuntu arwara bigasaba y'uko bamwongerera umwuka, icyo gihe bakoresha ibikoresho abantu bakunze kwita mu ndimi z'amahanga bomboni, ibi bikoresho byongerera umurwayi wabuze umwuka cyangwa se wagize umwuka mukeya mu kumwongerera umwuka.

Kwa muganga haba hari inzu y'ababyeyi ndetse n'impinja kugira ngo bitabweho by'umwihariko. Cyane cyane ko baba bakeneye serivise zihariye, bityo rero ubuzima bwabo bukagenda neza. Twese dukwiye kwita ku babyeyi ndetse n'impinja mu buryo bunoze.

Itsinda ry'abaganga b'abagore bo ku ivuriro ryitwa Legacy bahurijwe hamwe no gufata ifoto y'urwibutso bambaye udupfukamunwa. Barishimye cyane, baranezerewe bitewe n'akazi bakora kandi biragaragara neza rwose ko bagakunze.

Kwa muganga hagomba kuba hari inzu y'ababyeyi batwite bagejeje igihe cyo kubyara kugira ngo babone serivisi nziza, bitabweho mu buryo bunoze, hatagira uhura n'ikibazo cy'ihungabana cyangwa se hakaba havamo urupfu kuri we ndetse no ku mwana atwite.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, zigomba kuba ziri ahantu hanini hisanzuye kandi hafite ubusitani bwiza kugira ngo umurwayi wumva ashaka akayaga abone uko agafata yisanzuye, ibi ngibi bituma n'uhagannye wese yiyumvamo ikaze.

Buri nyubako yose yagenewe serivisi z'ubuzima, iba igomba kuba iri ahantu hasukuye kandi hanini ku buryo buri muntu wese ushaka serivisi, ayibona mu buryo bwagutse kandi bunoze, bityo rero ibyo byongera serivisi z'ubuzima no kwita ku barwayi neza.

Ibyumba byo kwa muganga bitangirwamo serivise, bigomba kuba biri ahantu hegeranye kandi birimo n'amazina, asobanura serivisi y'icyo cyumba kugira ubashe kuhagana atayoba kandi agahabwa serivisi inoze neza.

Inyubako nshya yubakiwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi iherereye mu Karere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, ni inyubako nini cyane ni nziza rwose ibereye ijisho kandi ifite ubusitani bwiza cyane aho umurwayi yakwicara agafata akayaga neza.

Icyumba cyifashishwa mu kubika amaraso, kigomba kuba gifite ahantu hisanzuye, kandi heza kugira ayo maraso kibitse atangirika, haagomba kuba hacometswemo ibyuma bituma akomeza kugira ubuziranenge.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ibi biba byiza kurushaho, iyo umuganga asobanukiwe neza, gukoresha ibyo bikoresho kugira ngo atagira icyo yangiza, mu buzima bw'umuntu no gutanga serivise z'ubuzima.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima zigomba kuba zifite ibikoresho byinshi bihagije ku buryo buri muntu wese uhagannye ahabwa serivisi inoze, ibi kandi byongerwamo kuba bifite ibikoresho by'isuku mu buryo bwo kunoza serivisi z'ubuzima neza.

Ibitaro bishya biherereye mu Karere ka Kicukiro muri Masaka, byubatse buso bugari cyane kandi bifite ibyumba binini bihagije, ku buryo bizajya byorohereza serivisi z'ubuzima mu kugenda neza.

Inzu iberamo inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi, igomba kuba ari nini kandi intebe zipanzwe neza ku buryo buri muntu wese naho yicaye atagomba kubangamirwa no ku ikiganiro ndetse no kureba utanga ikiganiro, bityo rero bigomba kuba biri ku murongo neza ku buryo utanga ikiganiro na we aba arebwa n'abantu bose kandi na we areba abo atangaho ikiganiro bose.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kigomba kuba kirimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bikenewe, cyangwa se mu gihe bagiye kumusuzuma indwara, ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma iyo ndwara, intebe yo kwicaraho mu gihe akeneye kwicara cyangwa se bakimwakira, iyo muganga yicaraho mu gihe ari kumuganiriza ndetse n'ibindi bikoresho byerekeranye n'amasuku.

Ku kigo nderabuzima usanga aho bakirira abantu, babaka ibyangombwa ndetse n'ibindi bikenerwa kugira ngo umurwayi avurwe, hari abantu benshi. Ibi biterwa nuko utanga iyo serivise atari gukora neza mu buryo bwihuse, kandi bunoze.

Umuganga wese ukunda akazi ke, agakora anezerewe ibyo akora byose bimubera byiza ndetse n'abamugannye bagatahana akanyamuneza, ibyo bimufasha mu kuzamura urwego rwe ndetse n'uburambe mu kazi.

Mu bucuruzi ni byiza kugira isuku no gutondeka ibintu ku murongo ugashyiraho n'ibiciro byabyo, kuko byorohereza umuguzi mu kureba icyo akeneye mu buryo bwihuse ndetse bigatwara n'umwanya mutoya.

Kwa Nyirinkwaya ni ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, bizwiho kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse bifite abaganga b'inzobere, biherereye ku muhanda ahantu hagaragara neza ku buryo umuntu wese ugannyeyo adashobora kuyoba, bifite ubuso bunini ndetse n'ibyumba byinshi ku buryo serivisi z'aho ziba zinogeye buri wese.

Umuntu akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye n'umubyibuho ukabije, ndetse arusheho no gukomeza abasirikare bo mu mubiri we, iyo akora iyo myitozo yifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye.

Amazi afitiye akamaro kanini cyane umubiri w'umuntu, kandi akoreshwa ibikorwa bigiye bitandukanye nko guteka, koza ibintu, ndetse ni yo soko y'amashanyarazi, bityo rero akwiriye kubungwabungwa aho yaba ari hose tukirinda icyayangiza cyose, mu gihe ari amazi yo kunywa dukwiriye kuyabika ahantu heza hasukuye.

Umuntu uvunitse cyangwa wagize ikibazo cy'igufwa ryavuye mu mwanya waryo, bamwambika ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo ribashe gusubira mu mwanya waryo ndetse rijye ku murongo rikore neza mu buryo bugiye butandukanye.

Amazi ni isoko y'ubuzima, kunywa amazi bituma umubiri wacu ugira ubudahangarwa kandi aruhura umubiri, ibi biba byiza iyo uyanywereye mu kintu cyabugenewe gisukuye kugira ngo utandura indwara zandurira mu mwanda.

Umuntu uri ku rugendo akunze kwitwaza amazi kugira ngo ayifashishe mu gihe agize inyota, cyane cyane iyo ari ku zuba ryinshi, amazi aba akenewe kubera yuko umuhogo urumagara ukumva ukeneye ikintu cyawutosa.

Umuntu ukunze gukora imyitozo ngororamubiri, aba akwiriye gufata n'indyo yuzuye, nk'imboga, imbuto ndetse n'ibindi byunganira ya myitozo yakoze kugira ngo umubiri we ukomeze kugira imbaraga n'ubudahangarwa ndetse ahore akomeye.

Hari ibikoresho byabugenewe umuntu yambara mu ntoki mu rwego rwo kugorora ingingo nk'imitsi ndetse no mu gihe intoki ziba zitari gukora neza kugira ngo zibashe gukora neza, ibyo byose bidufasha mu buvuzi bw'izo ndwara zigiye zitandukanye duhura na zo.

Imyitozo ngororangingo ni bimwe mu bintu bifasha umubiri kuruhuka ndetse umuntu akamererwa neza. Muri yo harimo: kumanika amaguru uyasimburanye bitewe n'iminota runaka, guhina amaguru ukarambura amaboko wifashishije urukuta cyangwa intebe. Ibyo byose bifasha umuntu kumererwa neza cyane.

Imyitozo ngororamubiri bayikora mu buryo bugiye butandukanye, hari ukwiruka, hari no kuyikorera ahantu hamwe. Akenshi iyo abantu bakora iyo myitozo biruka, bitwaza amazi ndetse bakambara n'imyenda ibarekuye kandi itari bubashyuhire mu gihe biruka.

Imwe mu myitozo ngororangingo ikoreshwa kugira ngo umuntu arusheho kumera neza mu mubiri ndetse n'ingingo ze ziramburwe, harimo no kuba yamanika amaguru kugira ngo agabanye ibinure ndetse n'ingingo zo mu matako ziramburwe n'imitsi ye irusheho gukomera.

Siporo ni ingenzi mu buzima, hakaba n'ibiribwa byunganira izo siporo wakoze kugira ngo byongere intungamubiri, muri ibyo biribwa harimo nk'imbuto: amaronji, pome, kokombure, imineke ndetse n'amashu.

Amazi ni isoko y'ubuzima, ayo kunywa tugomba kuyabika ahantu heza mu gikoresho gisukuye ku buryo ujya kuyanywa ayanywa afite ubuziranenge bwuzuye, iyo abitse ahantu hatameze neza ayo mazi ubuziranenge bwayo buba butakaye.

Ibyatsi byinshi bitewe n'ukuntu biba bimeze cyangwa se aho biba biri, ntitubasha gusobanukirwa ubwoko bwabyo, bimwe na bimwe tugira ngo ni ibiri aho ngaho gusa bisanzwe, kandi akenshi usanga ari imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amaronji ni ubwoko bw'imbuto kandi afite akamaro kenshi mu buzima bw'umuntu, si ibyo gusa kandi kuko anakoreshwa mu gukora amavuta agiye atandukanye, kuko agira impumuro nziza yafasha umusatsi w'umuntu guhora ucyeye kandi usa neza.

Umuti w'amenyo uba ukozwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi, ibi bifasha amenyo guhora asa neza ndetse no kutandura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza gukoresha umuti w'amenyo igihe uri kuyoza.

Buri muti wose mu miti gakondo igiye ishyurwa ukwayo kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza umuti uwo ariwo n'ubwoko bwawo, mu gihe tugiye kuyivanga tukavanamo umuti wavura indwara runaka.

Igikakarubamba ni ikimera gihingwa cyifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, kiba gisa icyatsi kibisi gifite amahwa ku ruhande ku mashami yacyo, gihingwa mu butaka ubwo aribwo bwose ntawo gisaba ibishoro byinshi nk'ifumbire, kuhirwa ndetse n'ibindi.

Mu miti gakondo usangamo amoko menshi y'ibyatsi bigiye bitandukanye ibiti ndetse n'indabo, abantu benshi ntago bajya babasha gusobanukirwa neza niba ibyo byatsi ari imiti bityo rero bakirusha bajya gushakisha n'ahandi kuko batabashije gusobanukirwa uwo niba ari umuti.

Imineke idufasha mu kwituma neza, inanasi zikadufasha mu koza mu nda ndetse no kugabanya ibinure mu mubiri n'amaside, amafu agiye atandukanye n'umunyu bikomeza amagufwa, ibi byose ni intungamubiri, indabo zizana impumuro nziza mu nzu.

Umuti uko waba ungana kose n'iyo waba ari mukeya iyo uwukoresheje neza urakora, ntabwo ari ngombwa ngo umuti ube mwinshi ahubwo ikiri ngombwa n'ugukoreshwa neza mu buryo bwiza kandi ukawubika neza wigengesereye.

Icyiza cy'imiti ivura inkorora n'ibicurane ntabwo ikunze kubura cyane cyane iy'ibyatsi itaranyuzwa mu ruganda ngo ikurwemo ibinini. Ahantu hose ugeze wayihasanga. Hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye bivura inkorora n'ibicurane.

Mu gihe ugiye koza amenyo, biba byiza iyo ukoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bwiza butaramara byibuze amezi atatu kuko nyuma y'ayo mezi atatu, uburoso buba bwamaze gupfa, bwarashaje, ntabuziranenge bugifite. Biba byiza, iyo ufashe ubundi bushya.

Isabune ikoreshwa mu koga mu mutwe cyane cyane ku bantu bafite imisatsi myinshi, ibagabanyiriza imvuvu ndetse n'ibindi bintu byatuma umusatsi wabo uhora usa nabi, ibi ngibi byongerera umusatsi guhora usa neza ndetse na vitamine zituma ubyibuha.

Buri kintu cyose gihinzwe mu butaka kiba kigomba kwitabwaho neza kugira ngo hatagira ikibasha kuyangiza mu kwera kwayo, bityo rero buri muntu wese wahinze agomba kwita ku bihingwa bye neza, mu rwego rwo kugira ngo yongere umusaruro wabyo.

Akabedo k'umweru ariko gapfundikishijwe umupfundikizo w'ibara ry'umutuku ndetse n'amagambo asobanura ibiri muri ako kabido nabyo bisa n'ibara ry'umutuku, bituma birushaho kugaragara neza ndetse umuntu akabasha kuba yabibona mu buryo bumworoheye bitagoye.

Amacupa ateretswe mu kabati neza mu buryo bugaragara, ndetse n'ahantu ku muhanda buri muntu wese anyura, byorohereza umucuruzi mu kubona abaguzi, ndetse n'ugura akabasha kubona ibintu mu buryo bumworoheye kandi bwihuse.

Imiti iba iri ahantu hagaragara ipanzwe mu buryo bwiza ku buryo buri muntu wese uje kuyigura abasha gusobanukirwa neza umuti ashaka, ibyo bigaragazwa n'uko iriho ikirango cyayo ndetse n'amazina kugira ngo byorohere umuguzi.